Umuturage wese ufite ikibazo, ni ukuvuga nyine ubwo cy'indwara abagomba kwitabwaho n'abantu ba Kuruwaruje kugira ngo batume atiheba, bityo akaba yanakwiyahura.

Igihe hari harateye icyorezo cya covid cumi n'icyenda, iyo bazanaga umurwayi abaganga wasangaga bambaye imyenda itabagaragaza umubiri wose, haba mu maso amaboko n'ibirenge.

Abamama ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bakabaha bafite ihene bahawe n'abayobozi b'utugari kugira ngo bazakomeze kwiteza imbere.

Hari igihe umurwayi usanga arembye cyangwa se ari nko ku nda ugasanga atagera ku bitaro vuba, icyo gihe bahamagara imodoka ya ambilansi maze ikaza ikamwihutana, ikamugeza ku bitaro.

Byamaze kugaragara ko ihene zituma abaturage batera imbere kubera ko zitanga ifumbire. Niyo mpamvu abayobozi bashyize imbaraga mu gutanga ihene.

Mu kinyarwanda byari byemewe kuvuga ngo ababana n'ubumuga, ariko mu kinyarwanda cya vuba aha ntabwo byemewe, kubera ko umuntu abana n'icyo akunda, ahubwo ubu turavuga ngo abafite ubumuga.

Igihe umuntu yahuye n'ikibazo agahungabana cyangwa se akagira intege nke ku buryo atakitwara kwa muganga tugomba kumufasha tukamugeza ku bitaro kugira ngo yitabweho.

Umurwayi bazanye kwa muganga urembye cyane, akaba ari kwitabwaho n'abaganga, bagera muri bane. Uyu murwayi biragaragara ko natitabwaho ashobora no kwitaba imana.

Umuturage urembye cyane abakeneye ubuvuzi bw'ibanze, niyo mpamvu ibigo nderabuzima, bishyiraho ibikoresho byakifashishwa igihe habonetse umurwayi nk'uwo.

Ibitaro byo mu Karere ka Nyagatare usanga bifite isuku, ariko bikaba bifite ibikoresho bike, niyo mpamvu basaba leta kugira ngo izabahe ibikoresho.

Abayobozi ndetse n'abandi batandukanye, usanga bashyira imbaraga mu kubaka ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima. Izi nyubako zifasha abaturage bafite ikibazo k'indwara.

Mu mavuriro cyangwa se mu bitaro, aho abarwayi barembye barara, abahakora isuku bagomba kutaho kubera ko batabikoze, abarwayi barushaho kuremba.

Ibitaro bigiye bitandukanye usanga byakira abarimo abana ndetse n'abantu bakuru, niyo mpamvu bigomba kugira abaganga b'inzobere bagomba gutanga imiti kandi bakita ku barwayi.

Mu icyumba cyabarwayi ku bitanda haryamyeho abarwayi basa nkaho barembye kandi bategereje muganga.

Abapolisi babiri ndetse n'abandi bantu babiri inyuma y'abapolisi bafite igitambaro cyanditseho kwibuka n'umubare mirongo itatu hepfo hakazaho ibitaro bya gatunda n'abandi bantu benshi bigaragara ko bahuriye ku gikorwa kimwe cyo kwibuka.

Umusirikare urimo kwita ku murwayi amupima ngo arebe indwara afite. ubundi, ntibisanzwe ko abashinzwe umutekano bita ku barwayi.

Usanga imodoka zizwi nka ambilansi ziba ku bitaro zigomba kugezwa ahantu henshi mu Rwanda kugira ngo umuntu wese uhuye n'ikibazo cy'uburwayi ahite yihutanwa ku bitaro.

Aho basuzumira abarwayi bafite indwara zikomeye, cyane cyane zisaba kurebamo imbere cyangwa se hifashishwa ibindi bikoresho kugira ngo indwara igaragare.

Igihe cyose umurwayi arwaye indwara itabasha kugaragara ni ukuvuga iyo mu maraso cyangwa se iy'ahandi hose, abaganga bakoresha ibyuma byabugenewe kugira ngo babone iyo ndwara.

Abiga ibijyanye n'ubuganga bagomba gukora imenyerezamwuga kugira ngo nibajya ku kazi bazakanoze kandi bitagoranye. Ni nayo mpamvu kaminuza nkuru y'u Rwanda ibaha ayo mahugurwa.

Muri rusange ibitaro bigomba kugira ibikoresho bigomba kwifashi bivura abarwayi, bitihuse usanga abarwayi baje bakarembera mu bitaro bakaba babura n'ubuzima.

Kalisa ni umuganga ukomeye ku bitaro bikuru bya nyagatare. Uyu nguyu akora muri laboratore, agenda areba abantu batandukanye indwara bafite ndetse akanabaha n'imiti.

Raboratwari ziba mu bitaro usanga zifite ibikoresho bigiye bitandukanye, ibipima ibihaha, umutima n'izindi ngingo zo ku mubiri w'umuntu.

Ku bitaro bigiye bitandukanye, usanga aho inyubako zizwi nk'amasuzumiro kugira ngo basuzume abarwayi bafite indwara zitaboneshwa amaso.

Ikiganza cyambaye agapfukantoki, urushinge ndetse n'igihoho kirimo amaraso bakuye mu murwayi bagiye gupima.

Umuganga wicaye mu isuzumiro, akaba yambaye agapfukanwa, ndetse yicaye no ku ntebe ari kureba kuri Kompiyuta kugira ngo amenye neza indwara umurwayi yaje amuganye arwaye.

Umugore wanjye yari atwite, inda imaze amezi icyenda nahise mutwara ku bitaro, mugejejeyo abaganga bamwihutanye aho bamubyariza.

Umuganga urimo upima umuvuduko w'amaraso umubyeyi ufite inda cyangwa se wamaze kubyara. Uyu muganga arimo no kugira inama abandi babyeyi bari aho ngaho.

Abana bari munsi y'imyaka itanu ntabwo bakiguma mu rugo, ahubwo bajya mu marerero bakigira yo ibintu bigiye bitandukanye kandi bakarya indyo yuzuye irimo igikoma, indagara ndetse n'ibindi bibafitiye umumaro ku mubiri wabo.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, wambaye nifomu z'akazi, akaba ari kwita ku mwana wavutse utujuje ibiro kugira ngo azakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Abaganga b'ababyaza bagomba kwiga kandi bakaba bafite ubumenyi burenze ubw'abandi kubera ko baba bari kwita ku buzima bw'abantu babiri. Ni ukuvuga umwana ndetse n'umubyeyi.

Gukina ni byiza cyane kubera ko bituma abana baruhuka kandi bakiga neza amasomo yabo, ababyeyi bajye bashishikariza abana babo gukina.

Umugore wabyaye impanga agomba kwitabwaho, agahabwa igikoma ndetse akarya n'amagi, aho biri ngombwa umugabo we akamugurira inyama.

Amarerero agiye atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose ku Isi, agaburira abana igikoma cyuje intungamubiri ndetse n'ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri.

Abantu batandukanye bitabira inama kugira ngo bafate imyanzuro ikwiriye abaturage ndetse n'Igihugu, nawe nujya utumirwa uzajye witabira.

Umuganga cyangwa se umujyanama w'ubuzima ari imbere y'abantu arimo kwigisha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aba na bo bafite mudasobwa kandi bashishikariye kumva.

Uducupa dutandukanye turimo imiti igiye itandukanye kandi duteretse ahantu muri foromasi cyangwa se aho bagurishiriza imiti.

Ivuriro iryo ari ryo ryose, rigomba kuba rifite imiti. Kandi niba atari irya leta, nyir'ivuriro agomba gushaka ibyangombwa. Kugira ngo bapime n'ubuziranenge bw'imiti.

Ahazwi nko muri farumasi bagurishiriza imiti usanga badafite abakozi benshi, ahubwo umuganga akaba ari umwe kubera ko hataza n'abarwayi benshi.

Aho bagurishiriza imiti harimo umukobwa urimo kureba imiti ari bwandikire umurwayi, yabanje kwisukura kugira ngo adateza umwanda muri iyi miti.

Uturindantoki tugomba kwambarwa n'abaganga igihe cyose bagiye kuvura abarwayi kugira ngo babashe kwirinda indwara, nabo batazandura bazikuye ku barwayi.

Imiti ifitwe n'umuntu wakoreshejeho mike agasigaza indi ariko namugira inama yo kuzajya ayirya yose akayirangiza.

Akarere ka Nyagatare kamaze gutera imbere cyane kubera ko ntabwo bikiri ngombwa abaturage ko bajya ku bitaro cyangwa se kwa muganga ahubwo bafite na za farumasi aho bajya kwivuriza.

Aho bagurishiriza imiti hazwi nko kuri farumasi usanga hari abarwayi benshi kubera ko baba badafite abakozi benshi.

Aho bagurishiriza imiti y'amatungo hagomba kuba hazwi kandi handitswe ibyo bigafasha Leta kubona imisoro ku gihe.

Aho bacururiza imiti harimo amacupa, utubido, udukarito turimo imiti igiye itandukanye kandi hafite isuku ihagije.

Mu iguriro ry'imiti aha hazwi nka farumasi, hagomba gukuramo abakozi bize neza kandi bazobereye mu by'imiti kugira ngo bafashe abarwayi, ababagana bose bakire.

Umugabo wambaye umwenda usa umukara ndetse n'akabara k'umweru kari mu gituza no ku maboko, ahagaze imbere y'abaturage arimo kubabwira ibyo batagomba gukora kugira ngo birinde indwara.

Abagabo bambaye imyenda y'umweru iriho uturango tw'umutuku, aba bose bitabiriye igikorwa cya Leta cyo kubashishikariza kwirinda indwara runaka.

Iyo hagize nk'icyorezo cyangwa se indwara igaragara, biba byiza ko abaturage babimenyeshwa, byaba ngombwa bakajyanwa ku bitaro bakigishwa kugira ngo birinde iyo ndwara.

Igihe cyose habonetse indwara ikaze, Leta igomba gutumizaho inama kugira ngo abaturage bigishwe ibijyanye n'iyo ndwara.

Abayobozi batandukanye bagenda basura abaturage maze bakabigisha ku bijyanye n'indwara zaba zagaragaye bakababwira n'uburyo bwo kuzirinda.

Abajyanama b'ubuzima usanga aribo bagira uruhare mu gutera imiti yica marariya. Aba ngaba bahembwa amafaranga menshi.

Indwara z'uruhu usanga zihangayikishije umuntu uzirwaye kubera ko zigaragarira buri wese kandi bakanamuha akato.

Mukamana esther ejobundi yafashwe n'indwara y'amayobera, twahise tumwihutana ku kigo nderabuzima bamwitaho.

Ikigo nderabuzima giherereye mu karere ka Nyagatare, kikaba gikora ibikorwa byo gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi.

Iyo umurwayi abuze amaraso, abaganga bamwongerera amaraso. Aya ngaya ntahandi bayakura uretse kubagiraneza bayatanga mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC.

Umuntu uzobereye mu by'ubuzima akaba ari kugira inama aba bantu uburyo bashobora kwirinda indwara.